Inzu ikoze neza cyane ifite isuku iberamo ibirori bitandukanye ifite ibikoresho bitandukanye byo kwicaraho n'ameza bariraho, maze abantu bakahasohokera bakagira ibyishimo cyane, bakamererwa neza cyane.

Icyokezo bifashisha mu kabari bari kokerezaho amafi n'ibindi bitandukanye abakiriya baba babahayemo komande, maze bakabirya bakishima cyane. Na bo bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibibazo bitandukanye, maze bakiteza imbere.

Icyokezo bokerezaho ibyo kurya bitandukanye, maze bakabishyira abakiriya bakabirya banezerewe, bishimye cyane na bo bakabona amafaranga, yo kwifashisha mu bintu bitandukanye no kwiteza imbere.

Inzu icururizwamo ibikoresho bitandukanye bifashisha mu bwubatsi bari gufata amazi ku bisenge, maze bakayakoresha mu bikorwa bitandukanye nko gukora amasuku mu rugo, kuhira imyaka, maze bakabona umusaruro ushimishije, bityo bakabaho neza.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, amagaze n'amashyiga ya yo bifashisha bari guteka ibiryo maze bigashya, amagi bateka maze bakayarya, imiceri n'ibindi batekaga maze bakarya, abacuruzi na bo bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibyo kwambara bitandukanye, maze abakiriya bakaberwa cyane, bakabona n'amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye bakiteza imbere, maze bakabaho neza cyane.

Inzu ikozwe neza cyane ifite isuku, icururizwamo ibintu bitandukanye. Ibigega bifashisha bari gushyira ku mazu maze bagafata amazi, bakayakoresha mu bintu bitandukanye: mu masuku yo mu rugo, bakayuhiza n'imyaka bityo bakabona umusaruro ushimishije, maze bakiteza imbere.

inzu bacururizamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusukura amazu y'abaturage, amarangi basiga mu mazu maze agasa neza cyane, bityo bakishima bakabaho banezerewe, maze bakabona amafaranga yo kwiteza imbere n'imiryango yabo.

inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, amasafuriya batekamo, amatelemusi, n'ibikombe banywesha igikoma, ibikapu batwazamo ibintu bitandukanye, amabase, bifashisha bari kuyakarabiramo no kuyameseramo, maze bakagira isuku, bityo bakagira ubuzima bwiza.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, icururizwamo ibyo kunywa bitandukanye, bityo bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bafite, maze bakiteza imbere, bagateza imbere n'igihugu cyabo.

Inzu ikoze neza, ifite isuku bacururizamo ibitenge bambara, imashini bifashisha bari gushona imyenda maze bakambara, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, bakiteza imbere n'imiryango yabo.

Inzu icururizwamo ibikoresho bitandukanye: indobo babikamo ibintu, po z'abana bannyamo, amabase twifashisha turi gukarabiramo, intebe n'ameza bicaraho, lakirete bifashisha bari gukoropa maze aho bari hakagira isuku.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku. Icururizwamo ibyo kurya bitandukanye. Imineke, ibirayi, imboga n'ibindi. Papiyejenike bifashisha bavuye kuri tuwalete. Bityo abacuruza na bo bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye bakiteza imbere.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, bacururizamo ibintu bitandukanye, gaze n'amashyiga yazo bifashisha bari guteka ibiryo, maze bigashya bakabirya bakishima cyane, amagare bifashisha bari gutwara imizigo n'abantu, maze bakagera iyo bagiye neza bakishima cyane.

Inzu icururizwamo ibikapu bashona maze bakabigurisha, bakajya babitwaramo ibintu bitandukanye. Umu ejenti ucuruza ama inite maze bagahamagarana, bakagira iterambere. Igare bagendaho bagatwaraho n'ibindi bintu bitandukanye.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, utubati bifashisha bari kubikamo ibikoresho bitandukanye, firigo bifashisha bari kubika ibyo kurya bitandukanye kugira ngo bitangirika maze bigatabwa, intebe bifashisha bari kwicaraho.

Isoko rikoze neza cyane, ricururizwamo ibintu bitandukanye, amavuta, amasabune, amapampa n'ibindi, ingofero bambara aba ejenti bacuruza amafaranga, ibikapu bifashisha bari guhahiramo, amatelefoni n'amaposhete, bifashisha bari guhamagarana.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye byo kunywa, amazi banywa, ji n'amata na seriviyete bifashisha mu masuku, maze bakabona amafaranga yo kwiteza imbere n'imiryango yabo n'igihugu cyabo.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye byo kwambara. Imyenda bambara n'inkweto bambara. Aba ejenti bacuruza amafaranga n' ama inite twifashisha turi guhamagarana, maze tugahanahana amakuru bityo tukabaho neza cyane.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, gaze bifashisha bari guteka maze ibiryo bigashya bakabirya, ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha, bari kureba amakuru agezweho hirya no hino ku isi, imyenda bambara maze bagasa neza cyane.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku icururizwamo ibintu bitandukanye. Ibikoresho by'ikoranabuhanga, televiziyo, mashini, amafirigo n'ibindi bitandukanye. Akabari gacururizwamo ibyo kurya bitandukanye n'ibyo kunywa bitandukanye, bityo abantu bakishima cyane, n'abacuruza bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Uruganda rukoze neza cyane rufite isuku, bakoreramo inzoga banywa, maze bakamererwa neza cyane, n'abacuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye, bakiteza n'imbere. Ibiti bitanga umwuka mwiza bahumeka, insinga z'umuriro w'amashanyarazi zitanga umuriro bacana.

Inzu ikoze neza cyane, ifite isuku bacururizamo ibikoresho bifashisha bari guteka, amagaze y'ubwoko butandukanye, maze bakayagurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha, bakemuza ibindi bibazo bitandukanye, maze bakiteza imbere.

Ibirunga baza gusura baje kureba ingagi bagasiga amafaranga menshi cyane, maze akifashishwa mu kubungabunga ibinyabuzima byo muri pariki, ayandi bakayahereza abaturage maze bakiteza imbere bakabaho neza bishimye cyane.

Inzu icururizwamo ibyo kurya bitandukanye, boyiro, capati, ibirayi, burushete, inzoga, ji n'ibindi, maze abantu bakabirya bakamererwa neza cyane, abacuruza nabo bakabona amafaranga yo kwifashisha, bakemura ibindi bibazo bitandukanye, maze bakiteza imbere.

Iyi nzu icururizwamo ibintu bitandukanye, ikoze neza cyane, ifite isuku, aho abantu basohokera, saro zogosherwamo abantu bakamera neza cyane, aho bagurira imyenda yo kwambara, aho bakora amaterefone y'ikoranabuhanga, maze abantu bagatumanaho neza cyane bakishima.

inzu icurururizwamo ibikoresho bitandukanye, Ibidomoro bifashisha bari kuvoma, imyeyo bifashisha bari gukubura, imbabura bifashisha bari guteka ibiryo, imiceri, kawunga, imyunyu bifashisha bari guteka, maze bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, ifite ibikoresho bitandukanye, intebe n'amamashini bifashisha bari gushona imyenda y'abakiriya, ibitenge bagura maze bakabishonesha, maze bakajya babyambara bakaberwa cyane.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, aho baparika imodoka hahagije ,ubusitani bwiza cyane, ubwogero n'aho kwanika imyenda maze abantu bakararamo, bakamererwa neza cyane bakishima cyane ba nyirayo bakabona amafaranga yo kwifashisha maze bakiteza imbere.

Isoko bacururizamo ibintu bitandukanye, amakuvureri baryamamo, imyenda bambara, abayejenti bacuruza amayinite n'amafaranga, bifashisha bari guhamagara no kugura ibindi bakeneye, maze bakiteza imbere.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, bacururizamo ibintu bitandukanye byo kurya, maze abakiriya bakishima, n'abacuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo. Ubusitani bwiza cyane bukurura akayaga keza abantu bahumeka.

Inzu ikoze neza cyane , ifite isuku icururizwamo ibintu bitandukanye byo kwambara, imyenda y'abagabo bambara, n'inkweto bambara, maze bagasa neza cyane, ababicuruza nabo bakabona amafaranga yo kwifashisha, maze bakiteza imbere.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, pate joni, kawunga, umuceri, ibirayi n'ibindi bateka. Fanta n'inzoga n'amazi banwa, umupira bifashisha bari gukina maze bakagira ubuzima bwiza, bakabona n'amafaranga yo kwiteza imbere.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku bacururizamo inyongeramusaruro zifashishwa mu buhinzi maze bakazishyira mu myaka, bityo bigafasha gutanga umusaruro ushimishije, maze bakabona amafaranga ahagije yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo, bakabona n'ibiryo bihagije bazajya barya.

Agakiyosike ka eyateli bacururizamo amatelefoni, amayinite n'amafaranga, maze abantu bakabikoresha bari guhamagarana ,no kureba amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, bityo bikabafasha kumenya aho isi igeze bakiteza imbere.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, bifashisha mu rugo, ibinyampeke babeteshamo ifu y'igikoma maze bakajya kugiteka maze bakakinywa, imyeyo bifashisha bari gukora isuku mu rugo maze hagasa neza cyane, bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, icururizwamo ibyo kunwa bitandukanye fanta, n'inzoga banwa maze bakamererwa neza cyane bakizihirwa, maze abacuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bakayajyana muri banki maze bakiteza imbere.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye imyunyu bifashishag bariteka imiceri, amakaroni, kawunga amavuta bifashishaga bari guteka ibirungo bitandukanye , bifashishaga kugira ngo ibiryo biryohe na mafanta banywaga maze bakamererwa neza cyane abacuruzaga bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Papeteri aho wakura ibikoresho byo muri ofisi, imashini, ibikoresho by'ishuri, impapuro n'ibindi byose waba ukeneye amakaramu, amakereleyo.

Iduka ry'ubucuruzi aho bacuruza amandazi, amabase ,amagi, imifuka, imigati, amafanta ,kugira ngo biteze imbere.

Inzu icururizwamo ibikoresho bitandukanye, bifashisha mu bwubatsi maze bakiteza imbere, bityo bakabona amafaranga bifashisha bari kugura ibindi bakeneye, ayandi bakayajyana kuri banki maze bakiteza imbere, bakabaho neza cyane.

Inzu ikoze neza cyane icururizwamo ibintu bitandukanye, nko kwambika abageni ku munsi w'ubukwe, bagasa neza cyane, bakabadekorera aho buri bubere, maze bakishima cyane, inzoga abantu banywa maze bakishima, bityo bagasabana cyane.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, ivuriro bavuriramo abarwayi maze bakamererwa neza cyane, bagatanga ubwishingizi bubafasha kwivuza, ibikinisho by'abana bifashisha bari gukina, ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, icururizwamo ibintu bitandukanye: Lakilete n'imyeyo bifashisha bari gukora amasuku, amabase bakarabiramo, imbabura batekeraho, imyuko batekesha n'ibikapu bahahiramo. Abagenti bacuruza amayinite n'amafaranga maze bakabasha kwiteza imbere.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, bacururizamo matera baryamaho, amakuvureri biyoyorosa, amapantaro n'udupira bambara, bodaboda zifunguye bambara, rakerete n'ibiroso bifashisha bari mu masuku.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye: ama ji n'amafanta banywa, isukari bifashisha bari guteka igikoma, amaseriviyete bifashisha bari gukora isuku, ibirungo bifashisha bari guteka ibiryo kugira ngo biryohe maze babirye.

Inzu icururizwamo ibyo kurya bitandukanye ibitoki, ibirayi, imiceri n'ibindi bifashisha bari guteka n'ibihaza, inzoga, fanta banywa maze bakamererwa neza cyane bityo n'umucuruzi akabona amafaranga yo kwifashisha akiteza imbere.

Inzu icururizwamo ibikoresho bitandukanye, impapuro zo kwandikaho, amafurashi babikaho amakuru atandukanye, amakashi bifashisha bari gutera ku ma raporo atandukanye, amakayi bandikamo ibintu bitandukanye, maze bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Inzu ikoze neza cyane, ifite isuku icururizwamo ibyo kurya bitandukanye, indagara z'amoko atandukanye, imiceri y'ubwoko bwose, na kawunga, amavuta bifashisha bari guteka, isabune bifashisha bari gukaraba no koza ibyombo, maze ucuruza akabona amafaranga yokwifashisha mu iterambere.

Koperative y'abahinzi b'ikawa, ibafasha gukusanya umusaruro wabo maze bakawujyana ku isoko, bakabona amafaranga yo kubafasha mu bintu bitandukanye, ayandi bakayajyana muri banki maze bakiteza imbere.

Inzu ikoze neza cyane, ifite isuku abantu baruhukiramo, maze bakishima cyane kubera ibikoresho bifite ubwiza bahasanga, maze bakabakira neza cyane, bityo bigatuma bumva bashaka guhora bahaza, maze bagatanga amafaranga yifashishwa, hoteli ziri kwiteza imbere.

Inzu nziza cyane, ikoze neza, ifite isuku, umuriro w'amashanyarazi bacana, amazi bifashisha mu isuku, na Pisine bogamo, maze bakagira ubuzima bwiza.

Hoteli ikoze neza cyane ifite isuku, ifite ibikoresho bitandukanye byifashishwa, intebe nziza n'ameza biteguye neza cyane abakiriya bicaraho maze bakanezererwa cyane, bityo bakishima, bagatanga amafaranga, ba nyiri hoteli bakayifashisha bari gutera imbere.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye: Imbabura bifashisha bari guteka maze ibiryo bigashya bakarya, lakilete bifashisha bari gukora amasuku mu rugo maze hagasa neza cyane, bakagira ubuzima bwiza maze bakiteza imbere.

Isoko ducururizwamo ibyo kurya bitandukanye ibirayi, bijumba, ibitoki n'ibindi maze abacuruza bakabona amafaranga ahagije yo kwifashisha, mu iterambere ritandukanye, ibindi bakabijyana iwabo bakajya babiteka bakabirya.

Itabi ritanditse ku mufuka bacuruza maze bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibibazo bitandukanye bafite. Andi bakayajyana kuri banki kwiteza imbere, irindi bakarujyana mu rugo, bakajya bararinywa.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, imyenda bambara n'inkweto bambara bakamererwa neza cyane, bityo abacuruza na bo bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, bakiteza imbere bakabaho neza cyane.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye amashambusha, amandazi, amacapati n'ibindi amazi n'amafanta n'amata banywa maze bakamererwa neza cyane, bakishima bakagira ubuzima bwiza, ababicuruza na bo bakabona amafaranga yo kwifashisha mu rindi terambere bakeneye.

Isoko rikoze neza cyane ricururizwamo ibintu bitandukanye. Inkweto zifunze n'izifunguye bambara, maze bagasa neza cyane, imyenda bambara maze abacuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi no mu iterambere ryabo.

Isoko ricururizwamo imbada abantu barya, maze bakagira imbaraga bagasubira mu mirimo yab,o maze bakabasha kwiteza imbere, n'abazicuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo, maze bakiteza imbere.

Inzu icururizwamo ibyo kurya bitandukanye, amaji, amafanta, amata, icyayi n'amandazi, keke, capati, barya maze bakamererwa neza cyane, bagasubira mu kazi bafite ingufu.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye inyanya, urusenda, intoryi, imboga bifashisha bari guteka, maze bakabirya abacuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha, bakemura ibibazo bitandukanye bafite bakaniteza imbere.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye, ibihaza, amateke, kokombure n'ibindi, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibibazo, ayandi bakayajyana muri banki, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye : ingofero z'abakuru n'abatoya bambara, amasaha n'udushenete bambara, ibikinisho by'abana, udutenesi, amabalo bakina maze bakamererwa neza. Na bo bakabona amafaranga yo kwifashisha maze bakiteza imbere.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, imbabura bifashisha bari gucana imbabura maze bagateka, imyuko bifashisha bari guteka ibiryo, amabase bakarabiramo maze bagasa neza cyane bakagira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye bifashisha mu rugo, ibyuma bakoreshaa bari guhata, amafurusheti n'ibiyiko barisha, amasahani baruriraho ibiryo maze bakabirya, ibikombe banywesha igikoma, amabase bakarabiramo.

Amafi yorowe akitabwaho neza ku gihe, bakayagaburira ibiryo bikwiriye, atanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga ahagije, andi bakayajyana mu rugo bakajya bayateka maze bakayarya.

Karoti, inyanya n'imboga, aho biri ku isoko ngo bicuruzwe, ba nyirabyo babone amafaranga yo kubatunga bibahe umusaruro.

Isoko aho bacuruza imyenda z'abana, inkkweto zo kwambara, amakanzu yo kwambara, ku babishaka bikabaha amafaranga yo kubatunga.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, amavuta bisigaga, royiko bateka, vimu bakoresha bari gukora isuku, amafu batekamo igikoma maze bakakinywa, imiti itandukanye bifashisha bari kuvura abarwayi maze bagakira.

Inzu ikoze neza cyane, ifite isuku icururizwamo amavuta yo kwisiga, bw'ubwoko butandukanye, maze umuntu akamera neza cyane, abacuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibibazo bitandukanye, maze bakiteza imbere.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye. Amavuta y'amoko atandukanye, amaparufe, amafudete n'ibindi. Maze bakabona amafaranga ahagije yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bafite, andi bakayajyana muri banki bakajya kwiteza imbere.